Iri ni iduka ricuruza imiti y'ubuhinzi ndetse iri duka warikuramo imiti ujyana mu buhinzi mu gihe imyaka yawe iri kwangirika cyangwa iri guhura n'ikibazo mu mikurire. Iri duka ririmo imiti y'amoko atandukanye, iri mu macupa atandukanye amabara ndetse n'imifuniko, iri duka ritanga imiti y'ubuhinzi.

Umugabo uhetse ipombo uri gutera umuti ibigori, uyu mugabo yambaye isarubeti ari gutera imiti mu ibigori kugira ngo byere cyangwa bikure neza ndetse bizabashe gutanga umusaruro.

Ikiganza kimwe gifite ifi imwe, iyi fi ifite umurizo utukura, iruhande rw'ikiganza hari ibyatsi ndetse hakurya yaho hari umusozi, hejuru y'umusozi hateye ishyamba, iki kiganza cyegereye amazi.

Abagabo bahagaze mumazi menshi bafite n'imitego, harimo umugabo wambaye ubusa hejuru, ndetse iruhande rwabo hahinze umuceri kandi iyi mitego yabo nayo iri mu mazi.

Umuntu uhagaze mu murima w'amashashi y'ikawa, aya mashashi afite ibibabi by'ubururu, aya mashashi ni menshi kandi ateye kamwe ku murongo, uyu muntu yifashe mu mugongo ndetse iruhande rw'izo kawa hateyemo insina z'ibitoki.

Ibiti byeze bifite imbuto zeze ndetse bifite n'imbuto zitarera, bifite n'imbuto zigiye kwera, zahishije, zifite ibibabi ndetse bifite n'amashami menshi.

Abantu bari mu murima w'icyayi, bari gusoroma icyayi bashyira mu kintu kimeze nk'igitebo kiri ku mugongo wabo, aba bantu muririma w'icyayi cyeze barimo bagisoroma.

Amashami ari ku giti cy'ikawa, aya mashami afite ikawa zeze, zituguyeye ndetse aya mashami afite n'ikawa z'uruhisha, aya mashami afite n'ikawa zikiri ibitumbwe, aya mashami afite ibibabi kandi aya mashami ari kugenda mu cyerekezo gitandukanye.

Umuntu uri mu murima w'ikawa zeze harimo n'iziteze, uyu muntu ari gusoroma ikawa, izi kawa ziratukuye cyane kubera zeze ndetse izi kawa zifite n'amababi.

Abagore bari mu kibaya kinini k'icyayi, barimo basarura icyayi, bahetse ibitebo bagenda bashyiramo icyayi bateze ibitambaro, bari mu kibaya kinini basarura icyayi, icyayi kigaragaramo ubwatsi bw'ubururu cy'ubururu, barimo barasarura icyayi bagishyira mu bitebo.

Abahinzi bicaye mu bihingwa byabo inanasi n'insina n'iz'ibitoki, bambaye udupfukamunwa, baricaye, umugabo barimo yambaye bote n'ingofero, ari kwandika afite ikaramu n'ikayi, bicaye mu bihingwa byabo bose bambaye udupfukamunwa.

Aba ni abahinzi bicaye mu bihingwa byabo ndetse bari mu bihingwa bishishe cyane, impande zabo hari ibyatsi ndetse hari n'imyaka bahinze.

Umurima munini w'ibigori, uyu murima urimo ibigori bihetse ibindi, uyu murima ufite ibyatsi ndetse uyu murima harimo n'ibiti hakurya yawo hari umusozi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ufite urubuto rwa avoka ruri mu ishashi bafumbiriramo, uyu mugabo ahagaze impande y'ahantu bafumbirira imbuto ndetse hari n'ibindi bifumbiro birimo imbuto zitandukanye, bisakaje ibiti by'imigano n'ibindi biti by'ubundi bwoko butandukanye, hakurya yabyo hari ibyatsi ndetse hateye n'ibiti.

Umugore uhagaze uteze igitambaro afite umufuka mu kuboko kwe, uyu mugore iruhande rwe hari isuka ndetse hari n'umurima urimo ibyatsi ndetse ahantu hateretse umufuka, hameze nk'ahari itaka cyangwa hararhinze.

Ni abantu babiri, imbere hari umugore uteze igitambaro, inyuma hari umugabo utwaye agacupa, afite n'umuhoro, bari kugenda ahantu mu byatsi, haruguru yabo hari ahantu hubakiye ibyuma ndetse hari n'ibyasi byinshi, harimo n'ibigega.

Umugabo ufite inkoni uri mu byatsi, ahagaze mu bwatsi ndetse hari n'inka nyinshi n'ibiti birebire, uyu mugabo aragiye inka z'amabara atandukanye ndetse niz'amoko atandukanye.

Ahantu hafumbiye ibiti biri mu mashashi ndetse ayo mashashi harimo n'itaka hubakiye ibiti hejuru yabyo hirya yabyo hari ibindi biti birebire ndetse impande zayo n'ubutaka.

Abantu bari kugenda mu muhanda w'igitaka ariko bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, aba bantu iruhande rwabo hari ibiti ku muhanda bari kunyuraraho, hari ibiti ndetse hari n'amasinga ari kunyura hejuru, aba bantu harimo umuntu wikoreye injerekani urimo agenda.

Ibiganza byambaye ubwirinzi mu ntoki ndetse ibi biganza biteruye ibirayi, ibi biganza n'iby'umuntu yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rya move.

Imbuto nyinshi zirunze ahantu hamwe, harimo imineke harimo karoti harimo intoryi, ndetse harimo puwavuro, harimo imbuto z'amoko menshi, birunze ahantu hamwe, kandi buri mbuto zigiye ziri ukwazo ukwazo ukwazo.

Umugabo uhagaze mu murima urimo insina, afashe igihobo ndetse aha hantu hari ibyatsi by'ibigori, by'bigorigori byashaje, bashyize muri uyu murima, urimo insina zitandukanye, zigiye ziteye zitatanye ndetse harimo n'ibyatsi.

Ibiganza by'umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, biteruye karoti ndetse bifite umwembe, puwavuro n'igitunguru, iruhande rwe hari akabati gafite urusenda n'inyanya, hasi harimo n'izindi mbuto.

Umuhanda wa kaburimbo muremure uri kugendamo abantu, iruhande rwayo hateye itara ryo ku muhanda rifite insinga ndende ndetse aho hantu itara riteye hakurya yaho hateye irindi kandi iri tara ahantu riteye hari ibyatsi ndetse haruguru y'uyu muhanda hari ibiti byinshi.

Ni umurima urimo ibiti imbuto n'ibyatsi by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibiti bikuze cyane, harimo n'ibiti bikiri bitoya, harimo ibyatsi ndetse n'ibivovo by'ibigori, byariwe ibigori byari byareze byarumye.

Ni igihingwa bita urusenda kiri mu murima kireze kuko kiratukuye kiri kumwe n'ibyatsi byinshi kiri ahantu ni binini kandi ni birebire.

Umurima w'ibigori byinshi biteye kijyambere biteye ku murongo, uyu murima w'ibigori harimo ibigori byinshi, ibi bigori byose biri mu gihe kimwe kuko ibi bigori byose ntibirageza igihe cyo guheka, ariko habura igihe gito ngo bizane ibindi bigori.

Ishyamba rinini kandi rirerire ryinshi ricucitse ririmo ibiti byinshi by'amoko atandukanye, harimo ibiti byumye, harimo n'ibiti bikiri bibisi ndetse n'ibikuze, harimo umwotsi mwinshi urimo utumuka muri rino shyamba, harimo n'ibyatsi.

Ibiti bacana birunze hamwe, ndetse ibi biti byinshi bishobora kuvamo amakara, cyangwa bakabicana gutya gusa. Ibi biti birunze ahantu hari ibindi byatsi bibisi. Hari n'ibindi bibabi by'ibiti bibisi biteye mu butaka.

Ibiti birebire by'ishyamba birebire hakurya yabyo hari umusozi, ibi biti biri ahantu mu misozi miremire kandi byarakuze cyane, harimo ibihuru byinshi bitandukanye.

Ishyamba rinini kandi ryinshi ndetse iri shyamba ririmo ibyatsi, hasi haryo mu kibaya cyaryo harimo uruzi runyura mu iri ishyamba.

Ahantu harehare h'umurambi urimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bikuze harimo ibiti biri kuma, harimo n'ibindi biti byazanye amashami maremare, harimo ibyatsi ni harehare h'umurambi kandi hose hameze kimwe.

Insina nyinshi ziri ahantu hari n'amazu, izi nsina ahantu ziri hari ibiti hari ibiti byinshi bitandukanye ndetse hateye n'insinga z'imiriro ziri ku biti hejuru.

Umurima uteyemo imbuto harimo imbuto zeze, harimo n'imbuto zigiye kwera, harimo n'imbuto zikiri ntoya ziteye mu butaka, iruhande rwazo hakikije ibiti by'ibyuma birebire.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga nyinshi z'ubwoko butandukanye, harimo ibitunguru, harimo imbogeri, harimo betarave, iruhande rwako hari insina ndetse hari n'indabyo, haruguru yako hari indi myaka, hari n'inzu.

Bano bantu ni abakobwa cyangwa se aba mama barishimye cyane barimo barasarura imyaka n'imiteja hirya yabo hari ibyatsi inyuma yabo hari ibiti bose barishimye bigaragara ko iyi myaka yabo yeze cyane kandi barishimira umusaruro barimo bakuramo kubera ko bose banejejwe n'umusaruro barimo basarura.

Imbuto z'amoko atandukanye, imbuto zijya mu mbuga, imbuto baririra aho ngaho, harimo imbuto z'urusenda, harimo amatunda, harimo amapera ndetse harimo imiteja na karoti, izi mbuto ziri ahantu hamwe zirarambitse.

Umugore uri kuvomerera imyaka ndetse uyu mugore iruhande rwiwe hari akantu gatanga umuriro mu gihe k'izuba ndetse uyu mugore arimo aravomerera imbuto z'amashu azishyiramo amazi kugira ngo zitangirika, inyuma ye hari ishyamba.

Umurima munini urimo imyaka iteye kijyambere, iteye ku murongo, harimo imiyoboro y'amazi, iyi ivomereye imyaka mu gihe hariho izuba ryinshi kugira ngo imyaka idapfa cyangwa itagira ikibazo, iyi myaka iteye kijyambere kuko iteye neza kandi iteye ku murongo.

Aba ni abantu bari guhinga imyaka bifashishije uburyo bwo kuvomerera ndetse harimo amatiyo ajyana amazi muri iyo myaka, bafite ibikoresho bifashisha batanga amazi muri iyo myaka barimo barayiha amazi.

Abagabo babiri bambaye bote n'ingofero, bari gutera umuti mu bigori, aba bagabo uyu muti bawuhetse mu mugongo, bafite itityo riri kuwushyira mu bigori bagenda bawutera ndetse hakurya y'ibigori hari ibindi biti mu ishyamba.

Umurima munini uhinze ibigori bigeze mu gihe cyo guheka ibindi hakurya yaho hari umusozi muremure ndetse hejuru y'uwo murima hanyujijwe amasinga ari kumwe ariho amatara, ibi bigori ni byiza birasa nkaho bihinze neza kuko bifite isura nziza biratohagiye.

Umurima munini kandi ufite metero ndende, uyu murima uteyemo imyaka, uyu murima uhinzemo imboga z'amashu, uyu murima uhinzemo kijyambere, aya mashu ateye ku murongo umwe ndetse muri aya mashu, hagiye harimo andi matiyo y'imyeru.

Amazu ari ahantu mu byatsi, aya mazu afite n'ibiti bihateye, hakurya yayo hari amaterasi y'indinganire ari mu misozi, aya mazu iruhande rwayo hari ibyatsi byinshi.

Umurima udafite ikintu uhinzemo ariko hakurya yayo hari imisozi kandi igiye irimo ibyatsi n'ibiti, uyu murima ufite ibyatsi ufite n'ibiti impande zabyo, uyu murima urimo ibiti ariko bitari binini ndetse bitari na bikuru cyane ariko harimo ibyatsi byinshi.

Abantu batuye ahantu mu musozi ndetse ingo zigiye zimeze nk'izegeranye, hakurya yaho hari imisozi iriho ibiti ndetse aho abantu batuye hari n'insina, inzu zabo zubakishije amateguri.

Iyi ni imisozi igenda isatagurika ndetse iruhande rw'iyi misozi, hari amazi ayinyuramo, harimo n'ibiti ndetse iyi misozi harimo n'imisozi miremire yagiye yegeranye kandi iyi misozi y'ibyatsi.

Amazi menshi y'ikiyaga, iruhande rwayo hakikijwe n'imisozi ndetse iyo misozi ifite ibiti, ifite n'ibyatsi, hari n'ishyamba hakurya yaho, hari ibicu, hari n'umuhengeri munini.

Ingurube eshatu ziri ahantu hubakiye, izi ngurube zubakishije ahantu hari utuntu tw'utubuye, izi ngurube ahantu zubakikije ni igikuta ndetse giteyeho na sima.

Inka y'inyana ifungiranye mu kiraro cyayo, inyuma yayo hari izindi nka, iyi nka y'inyana ifungiranye mu kiraro bayishiriyemo isaso, irahagaze irimo irareba.

Umugabo uri gufungira inka mu rupango, ni inka y'imbyeyi ifite amahembe maremare ndetse uyu mugabo urimo ayizirikira muri uru rupango, yambaye isarubeti y'ubururu n'inkweto z'umweru n'ingofero y'umweru.

Umuntu uhagaze ahantu hari inkoko nyinshi, ahantu hari icyumba kirimo inkoko nyinshi ndetse uyu muntu yambaye bote, afashe ku cyuma gishinze muri izi nkoko z'amoko atandukanye ni amashashi y'imishwi.

Inka zikamwa ziri kumwe n'abantu ziri ahantu heza hafit isaso hari umuntu uri gukama yicaye hari n'umuntu utwaye icyansi cyo gushyiramo amata hari n'undi muntu uhagaze wambaye ingofero asa nk'usorera ushorera inka izi nka ahantu ziri inyuma yaho hubatse iyi nzu hirya yaho hari ibyatsi ndetse hari n'ibiti.

Inka z'imbyeyi zibyibushye izi nka ariko nta mahembe zifite zikaswe amahembe, izi nka zifite amabara atandukanye, izi nka ziri kurishiriza ahantu mu byatsi ndetse hari n'ibiti iruhande rwazo.

Itungo rigufi ryo mu rugo bita ingurube riri ahantu ryubakiye ndetse iri tungo rifite n'utwana twayo ndetse hari utwana duri konka, hakaba n'akandi kana kari kumwe na nyina, aho birimo bishima ku nzu.

Inka nyinshi zubakiye ziri ahantu hamwe, izi nka zimwe ziri kureba hanze imbere yazo harunze ubwatsi ndetse imbere y'izi nka hari umuntu wambaye ishati y'umweru, izi nka ahantu ziri harubakiye harasakaye ndetse hari n'amatara.

Ihene nyinshi ziri ahantu hari hubakiye ndetse izi hene zubakiyemo imbere urugo rw'aho zubakiye rufite ibyuma izi hene zifite amabara atandukanye harimo.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe ziri ahantu mu byatsi hari n'iziri kurisha harimo n'izihagaze inyuma yazo hari umuntu uhari ndetse hari n'ibiti izi nka zose nta mahembe zifite.

Ahantu hanini hagari hagutse harimo ibiraro by'inka, izi nka zirimo ziri kurisha ubwatsi ndetse inyuma yazo harimo n'izindi nka, hari umusozi, hari n'ibyatsi biteye ndetse n'ibiti.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, ni inkoko zifite amabara atandukanye ndetse izi nkoko nyinshi, higanje imishwi ndetse n'amashashi, ahantu zubakiye, ziri hasi kandi aho hantu ni itaka, risa umukara, ryubakiye n'inzu, isa umukara, igikuta cyaho na cyo gisa umukara.

Abantu bari mu nzu basaruriramo ibigori, harimo ibigori byumye biri mu mufuka, ariko imifuka idafunze, aba bagore harimo n'umugore umwe uteruye umwana, iyi nzu irasakaye ndetse yubakiye n'utundi duti turimo mo imbere.

Umu mama wunamye mu bigori byumye ndetse bisaruye, bishashe ku ihema, ibi bigori ni byinshi kandi biratonoye, byanitse ahantu hari ibyatsi, iruhande rwabyo hari ibiti, uyu muntu yunamyemo, arimo arabisanza.

Iyi nka iri ahantu hubakishije ibiti hari abagabo batanu n'umugore umwe bagiye kuyikingira, abagabo batatu bambaye imyenda isa ubururu, umugore umwe yambaye ishati isa umweru n'undi mugabo yambaye ishati isa umweru undi ari inyuma, iruhande rwabo hari ibyatsi ndetse aho hantu inyuma yabo hari n'ibiti.

Ni inka z'inyambo zifite amahembe maremare, ziri mu bwatsi hari ibiti impande zayo imbere yazo hari inzu, ziratashye zivuye kurisha ubwatsi.

Umuntu uri ahantu mu cyumba kirimo basiketi zigiye zirimo amata y'inyange ndetse aya mata arimo agiye atonze ku murongo, uyu muntu arahagaze, arimo arayapanga, hakurya yaho hari ayandi mabasikete arimo amata y'inyange.

Abantu bari kuvura itungo ndetse aba bantu bavura bifashishije ibyo bize, ni ubuvuzi bw'amatungo, bari gutera inka umuti bayishyize ahantu mu rupango, ku buryo itabasha kubakomeretsa.

Imbwa zifite amabara atandukanye ziri ahantu iruhande rw'inzu ndetse izi mbwa imbere yazo hari ibisahani, biteretse mu bwatsi inyuma yazo hari ibiti hari n'ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye.

Abavuzi b'amatungo bari kwita ku nka, iyi nka bayishyize ahantu hafunganye hubakishije ibiti, aba bagabo bambaye ibisarubeti bisa ndetse umwe muri bo yambaye ishati ndende y'umweru, undi yambaye ingofero y'umweru n'inkweto z'umweru.

Abagabo batatu bashyize inka mu biti, iyi nka bayishyize mu biti bayizirika amaguru ndetse bari no kuyifata ku nda ibyara, aba bagabo bambaye ibisarureti bisa ndetse umwe muri bo yambaye ingofero y'umweru n'inkweto z'imyeru. Iruhande rwabo hari umuhanda w'igitaka ndetse hari n'ibyatsi.

Umuntu uri gukora inka ku nda y'amaganga uyu muntu afite garavuzi yambaye, imbere ye hari undi muntu ndetse uyu muntu yunamye ahantu hubakiye ibyuma ndetse n'iyo nka iri ahantu hubakiye ibyuma afite itaburiya.

Iziriya ni inyamaswa z'inyagasozi, izi ni inyamaswa ziba mu gasozi zitabana n'abantu, izi nyamaswa zirimo zishoka amazi ahantu ku kiyaga ndetse iruhande rwazo hari ibyatsi.

Inyamaswa zitwa isha ziri mu ishyamba ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse hari n'ibiti bikuze. Izi nyamaswa ni nyinshi zihagaze hamwe zose, zirashonje, zifite inzara.

Inkende ziri ahantu h'igitaka ndetse haruguru yazo hari ibiti byinshi kandi binini, hari n'ibyatsi zirimo ziracukura hari izihagaze, hari n'iziri gucukura mu butaka, aho hantu ziri hari ubutaka.

Iyi ni inyamaswa y'inyagasozi izwi nk'inyamaswa igera amahane cyane ndetse igira inzara ndende, ifite ibyara birebire bijombana, iyi nyamaswa yicaye ahantu mu byatsi iranasinziriye.

Inyamaswa zo ku gasozi ziri kurwana, ingwe iriku kurya imparage, izi nyamaswa zirimo zirarwanira ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse zirwana zirukankanaho.

Ni ishyamba ririmo inyamaswa zitandukanye isha, imparage iri shyamba ririmo ibiti n'ibyatsi byinshi bikuze, izi nyamaswa harimo iziri kurisha ndetse harimo n'izihagarariye kandi harimo n'inyamaswa zifite amahembe.